Inyubako zikorerwamo ubucuruzi bw'ibiribwa ndetse n'ibindi bitandukanye. Hariho imitaka yanditseho ibyapa bya Airtel nka sosiyete y'itumanaho mu Rwanda. Aho wajya ukabikuza ndetse ukabitsa amafaranga. Imbere harimo umugabo wambaye imyenda ya kaki urimo kwaka serivisi ujyanye n'ibicuruzwa yifuza kugura.

Inyubako nini cyane ifite imiryango ibiri, umwe ufunze undi ufunguye, urimo agatambaro hari mu umuryango ufite inzugi z'umweru, ni inyubako iri mu mabara y'ubururu, umutuku, ndetse n'umweru ikoreramo banki ya Kigali.

Inyubako zitandukanye ndende cyane zubakishije amatafari ndetse zirimo amarange y'umuhondo, imbere yaho hari amazu y'abajenti ba Tigo ndetse na Airtel ndetse ni amazu ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Itsinda ry'inkumi n'abasore bahagaze imbere y'icyapa kinini yanditse mu mabara y'ubururu bwerurutse umweru ndetse n'umuhondo. N'umusore wambaye agashati k'ubururu bwerurutse wambaye agapira k'umweru ahetse n'igikapu, ndetse n'abakobwa bafite uducupa tw'amazi bose barangariye mu matelefone yabo barimo barakora ibikorwa bitandukanye ,yaba i byo kwishyura amafaranga ndetse no gukurikirana amakuru.

Ihuriro ry'abayobozi batandukanye bicaye mu ihema ry'umweru rikikijwe n'udutambaro tw'icyatsi ndetse n'umuhondo, hirya yabo kandi hari ikibuga kirimo ibyatsi bitandukanye ndetse n'ibiti, hari umugabo wambaye ikositimu ijya gusa n'ibara ry'ivu n'agapira k'ubururu imbere, ateruye igikombe k'ishimwe kiri mu ibara ry'umuhondo n'agakaramu mu ntoki.

Inzu y'ubucuruzi izwi nka butiki, irimo ibiribwa ndetse n'ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye, irimo indobo z'umweru zirimo ubusa, ndetse n'ibirungo by'ubwoko butandukanye, harimo umugore wambaye igitenge kiriw'ibara ry'umutuku ndetse n'ubururu, afashe amafaranga mu ntoki.

Inyubako iherereye mu isoko igurishirizwamo imyenda y'ubwoko butandukanye, irimo ibitenge, imyenda y'abagore n'ibindi. Irimo abantu batandukanye, barimo abaguzi ndetse n'abaje kugura bambaye utwenda twiganjemo amabara y'umuhondo, umutuku ndetse n'umukara.

Iduka rigari cyane ririmo ibicuruzwa bitandukanye byiganje mu mabara y'umuhondo, ndetse n'ayandi atandukanye, harimo ibinyamisogwe birimo nk'ibishyimbo, n'ibindi miceri iteretse mu mifuka ipfunduye, hari kandi ibikomoka ku matungo nk'amagi ndetse n'ibindi bitandukanye, harimo umucuruzi wambaye agapira k'umweru ndetse karimo amabara y'umuhondo.

Inzu iri mu ibara ry'umweru ikorerwamo ubucuruzi bw'ibicuruzwa bitandukanye, yaba ibiribwa ndetse n'ibindi bitandukanye. Imbere yayo haparitse amamoto amagare, hari abantu urujya n'uruza abinjira n'abasohoka baje kugura ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye. Hari kandi amajerekani y'amavuta y'ubuto ndetse n'amapaki y'ibibiriti.

Inyubako ndende cyane ifite amagorofa abiri irimo amarangi y'umuhondo ndetse n'ay'ikigina, ikikijwe kandi n'ibiti by'ubwoko butandukanye, imbere yayo hari uruvunge rw'abantu b'Abemeramana bambaye imyenda y'umweru ndetse n'iyiganjemo amabara y'ubururu ndetse n'umukara, bari mu gikorwa cyo gukusanya inkunga z'amafaranga y'itorero.

Urusengero rurerure cyane rurimo amarangi y'umweru, ndetse n'amadirishya y'imikara, harimo abantu benshi b'ubwoko butandukanye bavanze abagore n'abagabo, bose barimo gusenga bambaza Imana bicaye ku ntebe z'umweru, abandi barahagaze bazamuye amaboko bari guha Imana icyubaro.

Ikidendezi cy'amazi kizwi nka pisine gikikijwe n'ibiti bitandukanye, hari kandi intebe zitandukanye z'imikara zicarwamo n'abaje gukora imyitozo ngororamubiri aha kuri iki kidendezi cy'amazi, hari kandi ubusitani buteyemo ibyatsi bya pasiparume.

Mu cyumba cya hoteli cyakirirwamo abakiriya batandukanye, icyumba gisize amarangi y'umweru ndetse n'ay'ikigina atandukanye. Hateyemo ameza agera kuri atatu hariho ibitambaro by'umweru. Harimo intebe kandi zegamirwa ziri mu ibara ry'iroza.

Ihuriro ry'abamotari batandukanye bakora umurimo wo gutwara abagenzi mu buryo buhoraho kuri moto zabo bambaye ingofero zirinda umutwe ziri mu ibara ry'ubururu ndetse bose bategereje abagenzi.

Umugore ukora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto yambaye ikoti ry'umukara ndetse n'agapira k'umweru imbere, yambaye kandi uturindantoki tw'umukara ndetse n'agakapu mu nda abikamo amafaranga, yambaye kandi ipantaro y'ikoboyi y'ubururu, yicaye hejuru ya moto ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umurongo w'umuhondo, ukikijwe n'ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse n'amapoto atwara insinga z'amashanyarazi. Harimo umumotari uhetse agafuka imbere ku bibero k'umweru ndetse yambaye n'agapira k'umukara. Umumotari arimo kugenda hagati mu muhanda wenyine.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'umweru hagati y'aho abagenzi bambukira, harimo umugabo utwaye igare wambaye agapira k'umuhondo ndetse n'ingofero y'icyatsi kijimye, inyuma hariho amajerekani abiri y'umuhondo, irimo kandi imodoka y'umukara iri kunyura muri uyu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'amazu atandukanye y'ubucuruzi ari mu mabara y'umweru haparitse imodoka iri mu bwoko bw'amavatiri, moto n'ibindi bitandukanye, harimo umunyonzi wambaye agapira k'ubururu bwerurutse ndetse n'ibara ry'umweru ari ku igare arimo aragenda mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'amazu atandukanye y'ubucuruzi, ndetse n'ayandi yo guturamo. Ni amazu ari mu ibara ry'ubururu bwijimye, ariho ikirango cya primus cy'amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku. Hirya yayo kandi hari andi mazu asize amarangi y'umweru. Muri uyu muhanda harimo umunyonzi uri ku igare ndetse n'umumotari, umunyonzi wambaye ishati y'ubururu bwerurutse, ipantaro y'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umurongo w'umuhondo hagati, ukikijwe n'imirima irimo ibimera n'ibihingwa bitandukanye ndetse n'amapoto atwara insinga z'amashanyarazi, harimo moto iriho umugenzi wikikije agatambaro k'umweru ahetse umwana, atwawe kandi n'umumotari wambaye agapira k'umutuku wijimye.